Kurinda umutekano ni byiza cyane, aho umuntu ajya mu gisirikare, agakora funzi, agakora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abone ukuntu arinda umutekano, afitemo na egisiperiyanse, kugira ngo hatagira abakwinjirana, bakaba baguteza umutekano mukeya, ariko iyo wakoze siporo, uba ufite ubushobozi bwo kurinda igihugu cyawe.

Gucunga umutekano ni byiza cyane, aho usanga ari abakobwa ndetse n'abahungu, n'abagabo n'abagore, baragiye kwi kwitoza uko bazajya barinda umutekano w'igihugu cyacu, ibyo bigatuma ari abaturage bacuruza neza, bahinga neza, barara neza, ndetse n'abagiye gucunga umutekano bakabona amafaranga yo kujya barakoresha mu kwiteza imbere.

Leta ni nziza cyane aho usanga yarashyizeho nk'abaporisi bo mu mazi, bo kurinda umutekano wo mu mazi. Igihe wasangaga nk'abantu bagiye nko gutembera ku mazi, koga ku mazi, wasangaga bararohamye abantu bagakomeza barohama bakanapfa, ariko ubu kuba barashyize polisi mu mazi basigaye banajya koga, barohama bakabatabara bigafasha abaturage kubaho neza.

Umutekano ukomeje kwiyongera cyane, aho usanga buri muturage wese ari gucunga umutekano, ndetse na polisi zo kugenda zirafasha abantu gucunga umutekano, habaye inkongi bakabasha ku buryo bayizimya bityo buri wese umuturage agatera imbere, kandi agashishikazwa n'uko yakwirindira umutekano we nta kiwuhungabanyije.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga Leta yaratoje nk'abantu bo kwicungira umutekano, cyangwa se ugasanga nk'abantu baturutse hanze baje gucunga umutekano, nko muri Afurika cyangwa se mu gihugu cyacu, ibyo bigafasha abaturage kubaho batekanye, bakaniteza imbere kubera gukora ibikorwa bitandukanye mu mutuzo, ugasanga na ba bandi baje gucunga umutekano nk'abapolisi n'abasirikare, ugasanga bari kwinjiza amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Umutekano mu gihugu cyacu urakomeye cyane, kandi uraganje aho usanga abaturage nabo bicungira umutekano, ariko cyane cyane polisi, zikajya zibwira abaturage ukuntu bagenda baricungira umutekano, badahungabanyije igihugu, kandi kugira ngo biteze imbere ni uko bagomba kuba bafite umutekano usesuye, kandi umutekano ukaba wababahereza n'amafaranga bakiteza imbere.

Kwicungira umutekano biba byiza cyane, aho usanga abaturage, n'abapolisi, n'amadasso bari gucunga umutekano ahantu hatandukanye, ku buryo nk'ibisambo babifata mu buryo bwihuse, nk'abantu bari gukora ibintu bidakwiriye, ugasanga nk'ako kanya barabafashe bakabambika amapingu, kugira ngo batiruka, ibyo bigafasha abaturage gukora ibintu byabo batekanye ,ndetse no gutera imbere ,kuko bazi ngo ibisambo byabibaga barabijyanye kubifunga.

Leta iba nziza cyane aho usanga yarasizeho gahunda yo kwicungira umutekano ahantu hatandukanye. Ugasanga bafashe nk'abasirikare b'abakobwa, abasore n'abagabo ugasanga babajyanye nko ku ikosi, bakajya nko kurinda umutekano hirya no hino ku isi. Ugasanga nk'Igihugu cyacu giteye imbere, ku gucunga umutekano, ndetse kiramamaye ku ruhando mpuzamahanga, kubera ko gifite abantu bari gucunga umutekano hirya no hino.

Kwicungira umutekano ni byiza cyane, aho usanga abaturage, abaporisi, abadaso, bari gucunga umutekano w'abaturage. Ibyo bigafasha abaturage kubaho mu mutuzo, ndetse biteza imbere n'igihugu kikaba mo umutekano, kuko kizi ko gifite abacungamutekano beza kandi bashoboye.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga nka Leta yarafashe nk'abantu batandukanye, ari abapolisi, ari abacunga umutekano; ari n'abasirikare, ugasanga abantu yabashize nko ku ikose, bari gukora amahugurwa nk'ayo kuzimya gaze; ugasanga nk'ahantu habereye impanuka ugasanga bazanye nka kizimyamwoto, bakazimya. Ibyo bikabafasha kwicungira umutekano, ndetse no gutuma abantu bakorera ahantu hatekanye hatariho inkongi y'umuriro.

Iterambere ry’igihugu riri kugenda ryiyongera cyane, aho usanga barasizeho abapolisi cyangwa se abacunga umutekano. Ugasanga ahantu habaye nk’inkongi y’umuriro, baratabaje abaturage, ba bandi bashinzwe umutekano bakaza, bakayizimya, bakazana za kizimyamoto. Ibyo bigafasha igihugu kwicungira umutekano, ndetse no gukumira inkongi.

Inama ziba nziza cyane, aho usanga abaturage n'abayobozi bateraniye hamwe, bari gukemura ibibazo byugarije abaturage, ndetse byaba na ngombwa bagashyiraho n'ingamba zo kubarinda, bagashyiraho kwirindira umutekano, bakavugiramo iby'iterambere, bigafasha igihugu n'abagituye gutera imbere, kandi bafite n'umutekano.

Leta iba nziza cyane, aho usanga yarubatse amazu ahantu hatandukanye, hakubakwa nk' amasalle. Izo nzu ziba zifite intebe, ibikoresho by’akazi, igashyiramo na sonorisation. Ibyo bigafasha abashinzwe umutekano gukoresha inama batanyagirirwa hanze. Abaturage nabo babasha kuhakorera mu mutuzo, kandi hatekanye. Ibyo biyubaka bifasha abaturage gutanga ibitekerezo byabo no kugaragaza imbogamizi bahura na zo. Ibi bigafasha Leta gukemura ibibazo by’abaturage mu buryo butekanye kandi batuje.

Iterambere ni ryiza cyane, aho abantu bahurira hamwe bagakora ibintu bitandukanye byo kwiteza imbere. Urugero nk'umuganda, aho bahura mu muganda ari abayobozi ari n'abaturage, bakubaka ibikorwaremezo bitandukanye nk'imyidagaduriro, imihanda ndetse n'ibitaro. Bigafasha abaturage gutera imbere no kwiteza imbere ubwabo.

Inteko ni nziza cyane, iyo abantu bahuje bagahuza umutima bakaganira ku ngingo bashizeho, bituma bakemura ibibazo by'abaturage, bagahana ijambo buri wese akavuga uko abyifuza, ndetse bagashyiraho n'ibiza, n'iby'ejo hazaza, kugira ngo abayoborwa bagire ubuzima bwiza n' indangagaciro.

Umuco gakondo uba mwiza cyane, aho wasangaga abantu bariwukoresha mu birori bitandukanye, ugasanga bakoze nk'agacurangisho kitwa umuduri, wafashaga mu bitaramo abantu bataramye, bakanezerwa bakishima, bikanafasha na wa muntu wa uri gucurangisha umuduri, kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Inzu gakondo ntizizacika mu Rwanda ndetse no mu gace runaka aho umuntu aherereye hose, niyo mpamvu kubacisha ibyatsi bitacitse cyane aho usanga barubatse inzu zigizwe n'imigodero kugira ngo berekane ko igihugu cyacu ko ari cyiza cyane.

Umuco gakondo ukomeje kwiyongera cyane, aho wasangaga mugihe cyo hambere inka zifite amahembe meza ndetse n'abashumba baziragiye ugasanga inka kuzireba ni byiza cyane, zikaduha amata yo kunywa byaba na ngombwa tugasagurira isoko tugakomeza kwiteza imbere.

Umuco gakundo ukomeje gutezwa imbere cyane, aho wasangaga mbere ari abakobwa babyinaga gusa, ariko ubu n'abagabo basigaye babyina n'abagore n'abana batoya, ndetse n'inyubako zo hambere ugasanga zirahari zarubakishijwe nk'ibyatsi, amabuye ndetse nubu bagakomeza kuzisigasira kuko zerekana, uko igihugu cyacu cyari kiboneye kandi gituje giteye imbere.

Umuco gakondo ntuzacika, kandi ufite umumaro mwinshi, aho usanga abaturage barakoze umuvure, umuvure wo gukamiramo ibitoki bagatara ibitoki bakajya barabitonora bakabishyira muri wa muvure, ubundi bamara gukama bakavanamo umutobe, umutobe bakawujyana ku isoko bakavanamo amafaranga, cyangwa se bakawutaramo inzoga, inzoga yo guhuza imiryango.

Umuco gakondo ntuzacika mu Rwanda wari mwiza cyane, nkaho abahinzi babaga bafite ibitebo byo guhunikamo, igiteba cyo gutwarisha ifumbire, mbese bakakibangira n'ingata kugira ngo babone ukuntu bacyikorera.

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane. Ndetse ukomeje no kuba mwiza cyane, aho usanga abantu barasigasiye ibikoresho bakoreshaga, igihe bakamye nk'amata. Bafataga igisabo bagashyiramo ya mata, bakayacunda, amata akavamo amavuta. Ndetse bakabonamo n'amata yo kunywera mu nkongoro. Ibyo bigafasha abantu boroye inka gusigasira amata, ndetse no kubona amafaranga.

Umuco gakondo uba mwiza cyane aho usanga nk'urubyiruko, abagore n'abakobwa bafite baraboshye nk'uduseke dutandukanye, bakitera imyitero itandukanye, ibyo bigafasha umuco gakondo w'igihugu kugaragara k'uruhando mpuzamahanga. kuko abagore biteje imbere kuberako bagiye barajya mu matsinda bakajya barabyina, bakabonamo n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Umuco gakondo ntugacike mu Rwanda, wasangaga ari ibintu byiza cyane, ahabakobwa bafataga igisabo, bagacunda amata, cyangwa se abagore bagacunda amata, amata bakayanywa, cyangwa se amwe bakayakuramo amavuta, kandi n'inkongoro zari nziza cyane, kuko wanywaga wisanzuye, nta ngingimira ufite ko inkongoro, ishobora kugucika, ikitura hasi, amata akibogora.

Umuco gakondo uba mwiza cyane aho usangag nk'abantu barakoze intebe zo mu biti, ugasanga nk'umubyeyi ayicayemo ari nko guhata nk'ibirayi cyangwa ari nko gutegura amafunguro bikaba byiza cyane. Ako gakoresho bakoze ugasanga kabafashije mu iterambere ryabo, ugasanga ntibicaye nko hasi. Ibyo bigatuma umuntu akora imirimo ye neza atuje kandi atekanye.

umuco gakondo wabaga mwiza cyane aho wasangaga ababyeyi, urubyiruko, biteze, bakenyeye, basokoje neza cyane ugasanga bafite n'agakoresho bita umuduri. Bagakoresha mu birori, mu bukwe, mu gutarama cyangwa se igihe bakoze nk'umuganura, ugasanga bishimye banezerewe kubera ko bariye neza, bahaze kandi bakoresheje aka gakoresho kitwa umudori bakagira ibyishimo byinshi cyane.

Umuco nyarwanda wabaga mwiza cyane, aho wasangaga nk'abantu barakoze nk'ibikoresho bitandukanye. Nk'intebe, cyangwa se ugasanga bakoze nk'isekuro ifite n'umusekuzo. Ugasanga bari kuyisekuriramo ibibiribwa bitandukanye nk'isombe cyangwa se nk'ubunyobwa. Ibyo bigafasha umutetsi gukoresha icyo gikoresho neza, kandi akabona n'ibyo akeneye nk' isombe yo guteka. Ibyo bigafasha gutunga imibiri yabo neza.

umuco gakondoga mwiza cyane aho usangaga nk'abantu batandukanye barahingaga amajeri amajeri bakafashisha mu gutegura amafunguro ndetse no kuyateka muma ibyo bigafasha igihugu cyacu gutera imbere kuko'abaturage bari gukoresha imbuto nyarwanda ndetse bikabasha kuzigurisha ku ruhando mpuzamahanga bigafasha igihugu gufata amafaranga ndetse n'abaturage bagakomeza kwiteza imbere kubwo guhinga amajeri

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane, aho wasangaga nk'umubyeyi cyangwa se umugore ari gusya amasaka atandukanye akoresheje urusyo, n'ingasire afite n'icyibo, n'inkoko, yasizeho agakoma, agasya nk'ifu y'amasaka ugasanga iyo fu bari kuyikoresha ibintu bitandukanye bayitekamo igikoma, ibyo bigafasha umusyi kubona ifu inoze.

Ubworozi bw'inka buba bwiza cyane, aho wasangaga inka zifite amahembe zaragiraga n'amata menshi cyane, ugasanga ayo mata, barikuyifashisha mu mafunguro, ndetse n'abakobwa barabyinaga ugasanga bateze amaboko nk' inka, ubwo bigafasha igihugu nyine gutera imbere.

Kwihangira imirimo ni byiza cyane aho usanga abantu barashatse bakaboha mitiba bagashiramo inzuki bakayiijyana ahantu inzuki zikajyamo. Abo bantu babita abavumvu. Bamara kubona inzuki ,zaragiyemo bakajya guhakura ubuki, bugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse bakanabona n'amafaranga yo kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye.

Umuco gakondo uba mwiza cyane, aho wasangaga abantu bo hambere bazi kuboha nk'ibirago bakajya barabikoresha babyicyaraho nko mu rugo, babyanitseho nk'imyaka itandukanye nk'ibishyimbo, amasaka ,ugasanga nibyo birago babijyanye ku isoko bakabonamo amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere, ndetse no gukomeza kuguramo ubwatsi n'ubudehe byo gukoresha kuha ibirago.

Umuco gakondo ntuzacika, aho usanga abantu batandukanye nk'abakobwa, abagore n'abagabo n'abasore bari gukora imbyino gakondo zitandukanye. Ibyo bikabafasha kubona amafaranga yo gutunga imiryango yabo kandi no gukomeza gutera imbere n'umuco nyarwanda ugakomeza kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga.

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane, aho wasangaga abagabo batandukanye, cyangwa se uduce dutandukanye barakoze imyirongi, bakajya bayikoresha bari kuyivuza nko mu bukwe, cyangwa se mu birori cyangwa se bakoze nk'umuganura, ugasanga nk'abantu barishimye cyane ibyo bigafasha wa muntu uri kuvuza umwirongi gutera imbere, kuko bamuha amafaranga, bigafasha na babandi baje aho ngaho kwishima, no gutararama bishimye banezerewe.

Umuco Nyarwanda wahozeho kandi uzahoraho kandi wabaga ari mwiza cyane, aho wasangaga nk'umugabo w'umubyeyi yakenyeye yambaye afashe inkongoro ari gukama inka amata. Amata bakoragamo amavuta andi yasigaye umubanji bakayanywa ndetse na za nka zigakomeza zikororoka akayajyana no ku isoko akiteza imbere mu bikorwa bye bya buri munsi.

Umuco wabaga mwiza cyane aho wasangaga nk'abakobwa cyangwa se abahungu bari kubyina bateze amaboko, ibyo bigashimisha abantu bari kubireba kandi nabo bari kubyina ugasanga binjiza nk'amafaranga yo kwifashisha mu bikorwa bya buri munsi ugasanga biteje imbere.

Umuconyarwanda ntukwiriye gucika, tugomba gukomeza kuwusigasira, aho ababyinnyi babyina bavuza ingoma, ndetse bafite n'imirishyo, ndetse ubu bakaba babonamo n'amafaranga yo gutunga imiryango, ndetse n'abantu bagakomeza bakitoza, abazungu bakaza bakaguha amafaranga, bityo bityo, umuco gakondo ntugacike mu rwatubyaye.

Umuco gakondo ni mwiza cyane kandi ukomeza utera imbere no gusigasirwa, isekuro bayifashishaga basekura isombe, ubunyobwa n'ibindi bihingwa bitandukanye ndetse n'amasaka akayasekura kugira ngo abone uko yatunganya neza. Niyo mpamvu rero dukwiye gusigasira isekuro ni ingirakamaro kandi ni igikoresho cyifashishwa mu rugo.

Umuco gakondo ni mwiza cyane wahozeho, naniy'isaha uracyariho, dukomeze kubisigasira dushaka ibiseke, dushake intara zo kugosoreraho, dore ko ari cyo gikoresho bakoreshaga bari gukosora barobanura imyaka bagiye guteka, ndetse bakagiterekaho n'inkongoro igihe bagiye kubuganiza amata mu nkongoro, kugira ngo bayahereze abana bayanywe ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, ariko ubu basigaye baranayakoresha ugasanga havuyemo amafaranga yo kwiteza imbere.

umuco wasangaga ari mwiza cyane aho wasangaga abakobwa n'abasore n'abagore n'abagabo bakenyeye bambaye imikenyero bafite ingabo bafite amacumu bahebe bikoreye n'ibyibo bari kubyina bari mu birori ibyo bigafasha kwerekana umuco nyarwanda ndetse no gukomeza gufasha igihugu kubwo gutera imbere ku ruhando mpuzamahanga kubera kubyina kw'intore no gutarama

Umuco gakondo uba mwiza cyane, aho usanga abantu baraboshye ibirago, bakaboha inkoko, cyangwa se intara ,bagakora ibicuma, bagakora inzuzi mubihaza ,ugasanga bafite n'imiseke, bamara gushyiramo ,bagafata nk'inzoga cyangwa se imisururu, bagasangira muri ibyo bicuma, ibyo bigafasha abantu bo hambere gukomeza kugira umuco wo gusangira hamwe ,kubera ko banyweraga mu ku gacuma kamwe.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyanee aho usangaga abantu barihangira imirimo cyane cyane abakobwa n'abagore bajya bahanga imirimo yo gufuma udutambaro yo kuboha udutambaro bakajya bandikamo n'amazina, ndetse bakaboha uduseke, uduseke two kwifashisha bajyana nk'imyaka cyangwa se nk'ibishingiranwa mu bukwe, barangiza bakajya babona amafaranga bakagura ibiibikoresho bitandukanye.

umuco gakondo uba mwiza cyane, aho usanga abantu baba bafite ibikoresho bitandukanye, bafite amapiki, inanjoro, amasuka, udukonzo, ugasanga bagiye nko mu muririma waraye, ugasanga bakoreshamo nk'inkondo, ibyo bikabafasha kubona ko kera hariho umuco mwiza, kandi na bya bikoresho bakaba babikoresha aho baba bari kwasa, bigafasha kwerekana abana batoya ko kera habagaho ibikoresho kandi byiza, byo gukoresha imirimo itandukanye.

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane aho wasangaga, nk' umuntu afite umuduri, yarakoze nk' umuduri akajya gukoresha mu birori bitandukanye, bigafasha abantu kwishima, kunezererwa ndetse na wa muntu uri gukoresha ya nanga bita umuduri akabona amafaranga yo kwiteza imbere ndetse agashimisha n' abantu muri rusange.

Umuco gakondo uba mwiza cyane aho wasangaga nk'abantu barahinze ibijumba, amateke, ibishyimbo, amajeri n'ibigori, ugasanga bafashe nk'inkoko bashyizeho amakoma bamara gushyiraho amakoma, bagafata nk'imbehe bagashyiramo ibyo kurya bagasangirira hamwe, cyane cyane nko k'umuganura ugasanga bari gu kuganura ibyeze mu butaka, ibyo bikabafasha gukorera hamwe ndetse no kurya ibiryo bifite intungamubiri.

Umwuga mwiza cyane, aho usanga abakera barubatse amazu atandukanye, bakayubakisha ibyatsi n'ibiti bakayisakara neza, barangiza bakajya bajya nko kuyisura bakazana nka ba mukerarugendo bakazana nk'amadovize, ayo madovize bakayakoresha mu kubaka igihugu, bubaka nk'ibitaro, amashuri n'ibindi bigo bitandukanye, bityo igihugu kigakomeza kikazamuka mu iterambere.

Umuco gakondo ntuzacika, aho dukomeje kuwusigasira muduce tumwe. Nk'intore, aho bazana amacumu imiheto, imigara n'ingabo. Umuntu akajya abyina abifashe, akidagadura, ndetse bikamufasha no kubona amafaranga yo gutunga imiryango yacu.

Umuco gakondo uba mwiza cyane ,aho usanga kera barubatse nk'inzu zo mu byatsi, izo mu ibiti, ugasanga nk'aho hantu barubatse inzu nini bahagira nk'umurage w'amateka abantu bakajya barajya kuhasura ,abaturutse ku muhanda, n'impande ndetse n'Abanyarwanda ugasanga baje kuhasura, basanga banyura ahantu heza bagatanga namafaranga, ibyo bigafasha igihugu gutera imbere mu muco no kugaragaza ,uko igihugu cya mbere cyari kimeze bikaba byiza cyane.

Umucyo gakondo wahozeho, kandi wabaga ari mwiza cyane. Aho wasangaga nk'abantu barishyize hamwe mu makoperative bakajya nko mu ibohero, nk'abagore n'abakobwa bakaboha ibintu bitandukanye, nk'ibirago, imikeka yo kwifashisha mu rugo, ndetse byaba na ngombwa bakabijyana ku isoko, bakabonamo amafaranga yo gutunga imiryango yabo, no gukomeza kubona amafaranga n'ibikoresho byo gukoresha muri rya bohero.

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane, aho wasangaga abantu bari gukoresha ibikoresho bitandukanye, harimo nk'indobo. Indobo barayifataga, bagashyiramo nk'igikatsi, igikatsi bagashyiramo amazi. Ayo mazi yahindukaga amakatsi, ugasanga abantu bari kuyanywa kubera bafite inyota. Ibyo bigafasha; ari umuntu wagiye guhinga, yayihembye, agahinga neza, agakomeza agakora imirimo itandukanye, akiteza imbere.

Umuco wacu ntugacike gakondo kubera ko umuntu akijya mu ibohero akaboha ibiseke, udutemeri, udutete byo kugira ngo umuntu age agemuriramo, ajyana gusura abantu, ndetse n'uducuma na two, kuko umuntu yatubikagamo icyo kunywa, bakaba batunyweramo inzoga n'ibindi byose.

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane, aho wasangaga abantu barakoze nk'ibikoresho bitandukanye byo kwifashisha ku rugamba nk'ingabo, ingabo bayikoreshaga ku rugamba bari kwikingira umwanzi, ibyo bigafasha abari kurwanisha icyo gikoresho kwirinda kuraswa imyambi, ibyo bigatuma n'igihugu gikomeza no kusigasira kuberako wari ufite umumaro munini ku baturage ndetse no ku gihugu.

Umuco gakondo ntuzacyika kuko utugaragariza uko kera amazu yabaga yubakishije ibyatsi, ashakaje ibirere bakikije ibiti. Afite intebe za kinyarwanda z'ibiti ibyo rero bikatugaragariza ko U Rwanda ruhumeka neza cyane.

Urukundo ni rwiza cyane aho usanga nk'abagore n'abagabo, ndetse n'abakobwa n'abasore baraboshye ibintu bitandukanye, bakaboha nk'ibyibo, ibirago, ndetse bagashaka n'uducuma two kujya banyweramo nk'inzoga n'imisuru. Ibyo bikabafasha kwiteza imbere, kuko n'ibyo birago bashobora kubijyana kubiyigurisha, bakabonamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Umuco gakondo uba mwiza cyane, aho usanga nk'abantu bafite nk'udukoko, bakenyeye bafite n'imiseke, (imiheha) bari kunyweramo bafashe nk'ikibindi bagashyiramo inzoga. Ibyo byabaga byiza cyane kuko byahuzaga abantu bigahuza n'imiryango, cyane cyane ko ari umuco bakoreshaga mu bukwe gakondo, ibyo bigafasha abaturage gusangira hamwe.

Umuco gakondo ni mwiza cyane, aho usanga imiryango itandukanye ijya irasangira ibiribwa bitandukanye, cyane cyane nko ku muganura, iyo itariki ya mbere z’ukwa munani yageraga, baryaga ibijumba, ibihaza, ibishyimbo, ibitoki n'ibigori. Ibyo bikabafasha gusangirira hamwe, umuco gakondo ugakomeza. Ndetse bakazana n'ikigage bakanywa, ugasanga ubumwe muri bo burahari kandi bateye imbere.

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane, aho wasangaga abantu barishyize hamwe ,cyangwa se umuntu ku giti ke akaboha nk'ikirago, ikirago akajya arakifashisha akicayeho mu hanze ari nko kota akazuba, cyangwa se ari gukora n'imirimo ye ya buri munsi itandukanye, cyangwa icyo kirago akakijyana ku isoko akakibonamo amafaranga, amafaranga akajya ayaguramo ibikoresho byo gukomeza kuboha cya kirago, ndetse akababona n'amafaranga yo gutunga umuryango we.

Umuco gakondo ntiwaducitse, aho wasangaga ibyiza bitatse u Rwanda harimo uduseke dufite imitemeri myiza cyane, ibisobane, ibisero byo kugenda umuntu aratwaramo ibyo kurya, agemurira umuntu, yabitwara mu biseke ukabona ibintu ni byiza cyane, niyo mpamvu dukomeje gusigasira umuco, ndetse umutu akaba ya nabicuruza, tukaba twavamo amafaranga, yo gukoresha indi mirimo.

Umucyo gakondo uba mwiza cyane, aho wasangaga abantu bari gukora ibintu bitandukanye, hari abishyize hamwe ari umuntu ku giti cye, ugasanga bari gukora nk'ibintu babumbye abantu, ibiti, bakabashyira ku muhanda, ibyo bigafasha ba mukerarugendo kuzana amafaranga y'amadovize mu Rwanda, bakiteza imbere n'igihugu kigatera imbere muri rusange.

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane aho wasangaga abantu barishyize mu makoperative cyangwa se mu miryango itandukanye ubu noneho bakagura igikoresho cyitwaga ingobyi. Umurwayi yaba yarwaye bakamushyira muri iyo ngobyi bakamujyana kwa muganga akagera kwa muganga ameze neza kandi ubuzima bakabutabara nta nkomyi.

Umuco gakondo ni mwiza cyane, aho usanga abagabo n'abagore babyina imbyino zitandukanye, bafite amacumu bafite imigara bakajya barabyina bakinanura, bagakora ibintu bitandukanye. Ibyo bikabafasha kubona amafaranga yo kwifashisha mu gutegura imbyino gakondo, ndetse no kwifashisha amafaranga atunga imiryango yabo.

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane, aho wasangaga abakobwa n'abagore babyina imbyino zitandukanye, bambaye imyambaro itandukanye nk' amayogi, bitandiye bafite n'utwo bambaye mu ijosi. Utwo tukabafasha mu kubyina neza, ari abaje kureba imbyino bagataha bishimye, ndetse n'ababyinnyi bagacyura amafaranga bakanamenyekanisha igihugu cyacu.

Umuco gakondo ni mwiza cyane aho umuntu yajyaga kwiga mu ishuri bakiga kuboha ibintu bitandukanye: duseke, ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibirago bikajya bitanga amafaranga yo gukoresha mu imiryango atandukanye ari uguhaha ibyo kurya ndetse no kugura imyenda ndetse no kugaragaza umuco gakondo wacu mu ruhando mpuzamahanga kuko igihugu cyacu kigatera imbere n'abagituye.

Umuco gakondo wabaga mwiza cYane umuntu yororaga inka akajya azikama amata, amata rero kuyakamisha wakoreshaga igikoresho cyitwa igisabo, igisabo bagicundiragamo amata, bakayakuramo amavuta bamara kuyakuramo amavuta bakayajyana ku isoko bakayagurisha, ndetse n'aya mata bacunze asigaye bakayifashisha bayakuramo icyo kunywa kubera ko amata atunga umubiri cyane.

Umuco gakondo wahozeho kuva kera aho twakamishaga ibitoki amaguru kugira ngo dukore umutobe, ndetse tukanenga n'inzoga izo nzoga zari gahuza muryango ni yo mpamvu twakwiye gukomeza tugakomeza tugashyiraho umuco wacu utazacika.

Umuco gakondo waga mwiza cyane, aho wasangaga nk'inka zitandukanye ziri mu duce dutandukanye, ugasanga umuntu yororeye nk'inka ifite amahembe meza cyane ,ugasanga nk'iyo nka ikaba ifite nk'amata aryoshye cyane, ugasanga ayo mata turayanyweye, tuyakoresheje mu rugo, byaba na ngombwa tugasagurira amasoko .ibyo bikadufasha kwiteza imbere tugura izindi nka kubera kugurisha izo twari dufite, ndetse n'amata twazikamyemo.

Umuco gakondo wabaga mwiza cyane, aho bafataga ibikoresho bitandukanye nk'inkoko bakajya bayaruriraho nk'amafunguro, bagiye mu gihe cy'umuganura cyangwa se kurya bakanaruriraho inyama, umuceri n'ibishyimbo, ibyo bikaba byarafashaga abaturage gusangirira hamwe ndetse no gukomeza umuco gakondo.

Iterambere rikomeje kwiyongera cyane aho umuntu asigaye ajya ku isoko akaba yabona nk'ibikoresho byo gusimbuza amashanyarazi bibereye nk'amatara, amapurize, ndetse n'ibyo gucagingamo, umuntu akabibona bitamugoye cyane kubera ko bisigaye biri ahantu hose.

Mu gihe cyo hambere twakoreshaga amashanyarazi ,dukoresha amanda tugashyiraho udutsinga tugafashanya ,tukagenda turadufatanyisha umuriro ukaza ,ariko ku bw'iterambere hagiye haraza amasharijeri ku buryo umuntu acomeka, ubundi umuntu agacaginga amatelefone ndetse akaba yashyiraho n'amatara.

Iterambere ni ryiza cyane, aho wasangaga mu gihe cyo hambere abantu bacana udutadowa, urushishi mu nzu gukongeza mu nzu bikaba na ngombwa bakaba batwika amazu yabo, ariko kubera iterambere ryaje ,ubu leta yajyanye abanyeshuri kwiga amasomo atandukanye gukora nk'amashanyarazi (elegitirisiti )ariko ubu umuntu asigaye akanda ku gikuta amazu akabona, bakabona umucyo uraje ndetse bagakomeza bagatera imbere.

Leta iba nziza cyane, aho usanga yarafashije amadini n'amatorero kubaka insengero ahantu hatandukanye. Ugasanga bafite nk'abaturage bakaza gusenga, bagateranira hamwe bagahuza umutima bagahuza n'umuco . Ugasanga nka leta cyangwa se igihugu gifite abaturage basenga kandi bakijijwe. Ibi bigafasha igihugu guteza imbere abaturage kubera ko baba bazi ko n'iyo cyaba amafaranga batayapfusha ubusa.

Iterambere rikomeje kwihuta cyane, aho usanga guverinoma yarubatse ahantu hatandukanye ho gukorera inama, yo gufasha abantu batandukanye bafite ibibazo bitandukanye. Ugasanga ari abapolisi, ari abasirikare, ari abayobozi b'imidugudu, ari na ba gitifu, ari n'akarere, bari gufashanya. Ndetse ikubaka n'imihanda yo kunyuramo, nk'inzira, utuyira two kunyuramo. Ibyo bigafasha abaturage gukora ibyo bakeneye kandi bibateza imbere.

Guverinoma ni nziza cyane aho yagiye ikubaka imihanda, ikubaka n'amazu atandukanye, nk'inzego za Leta. Nk'utugari ndetse n'imirenge, umuntu yaba akeneye nk'ibibazo akajya mu kagari cyangwa ku murenge kubonana na ba Gitifu, bakabasha kumukemurira ibibazo afite. Ibyo bigafasha umuturage kubaho atekanye ndetse n'Igihugu kikabaho gifite umutekano.

Amadini n'amatorero aba meza cyane ,aho usanga barafashe nk'uduce runaka two kubakamo insengero n'ama kiliziya ,ugasanga duhurije abantu hamwe bahuje umutima bagasenga, bakabona umutekano ndetse bakaguka no kubona inshuti ,bigafasha igihugu kubaho mu mutekano kubera kugisengera, n'abaturage bakabaha umutekano nta makimbirane abaranga.

Kwihangira imirimo bikomeje kwiyongera cyane, aho usanga umuntu arihangira imirimo, noneho na leta ikamufasha, akagura imirima akajya kubaka amasoko impande y'ikiyaga ,amahoteli kugira ngo abantu bamugana bose bajye baza kuboneraho icyo kurya, kandi na wa muntu wihangiye imirimo yubaka amazu, akorere amafaranga akoresha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Guverinoma yacu ni nziza cyane, aho usanga yarahaye abaturage, ndetse ikanabemerera no kugurisha ubutaka bwabo ,ikemera no kugura ubutaka, ikemerera abanyamadini kugura ubutaka bunini cyane, bakubakamo insengero ,bakubakamo n'ibiro by'uturere, ndetse bakanabizitira ,bagatera n'ibiti, bagatera n'indabyo, ibyo bigafasha abahakorera gukorana umutekano, kandi bakaniteza imbere.

Guverinoma iba nziza cyane aho usanga leta yarubatse nk'ibitaro ahantu hatandukanye, nko mu duce runaka ugasanga iranahazitiye ihakoze neza n'aho hantu no kuhareba ni heza cyane, ugasanga nk'abantu bashaka nko kuza kwivuza bivurije ahantu heza hatekanye ndetse na ba baganga bari kuhakorera bagakorera ahantu heza cyane, ibyo bigafasha abagana kwa muganga cyangwa se ahandi hantu batandukanye, ugasanga bari kubaha serivisi nziza kandi zinoze, ibyo bigabafasha gutera imbere no kwishima.

Leta ibaga nziza cyane aho usanga iri gufasha nk'abakirisitu, hari abakatolika, hari abadeperi n'abangirikani bari kubaka ahantu insengero zitandukanye, mu butaka bunini ugasanga barasenze babanye neza nta makimbirane, ibyo bigafasha igihugu cyacu cyangwa igihugu runaka gutera imbere, kubera ko gifite abaturage batekanye kandi bakijijwe, batishora mu businzi no mu busambanyi.

Iterambere ni ryiza cyane ,aho usanga buri wese cyangwa se abantu barishize hamwe bakubaka amazu atandukanye. Hari igihe Ari na leta iba yarubatse nk' amayetaje igashiramo ibikorwa bitandukanye, ubuvuzi, insengero, amashuri, bigafasha igihugu kumenyekana kandi no gutera imbere.

Guverinoma cyangwa se leta ni nziza cyane, aho usanga yarubatse amazu atandukanye igashyiramo nk'ibiro by'utugari, ibiro by'akarere, ibiro by'umurenge, ku buryo umuturage aba afite nk'ikibazo akajya kureba ba gitifu ku kagari, akababwira ikibazo cye bakamufasha gukemura ibibazo by'abaturage, ibyo bigafasha abaturage kubona umutekano kandi bafite n'ahantu babasha kuregera ibibazo byabo.

Leta iba nziza cyane, aho usanga yarubatse ahantu hatandukanye, ikubaka nk'amazu menshi cyane cyane amashuri, ugasanga nk'abantu babonye abanyeshuri biga nko mu wa mbere cyangwa kugera muri garidiyene kujya muri kaminuza, ugasanga bafite nk'inyubako nziza zo kwigiramo ugasanga bafite amashuri meza, bigafasha igihugu kubona abanyeshuri benshi kandi biga batava mu ishuri, ibyo bigatuma igihugu kitagira za mayibobo nyinshi.

Guverinoma ni nziza cyane, aho usanga barubatse barafashe nk'umurima utandukanye kandi minini, bakayubakaho ibigo by'amashuri abanyeshuri bakajya barajya kwiga, bakiga gusoma guhera muri garidiyeni kugeza muri kaminuza, ibyo bifasha gutera imbere no kwiga neza ndetse n'igihugu kikagira abantu babahanga cyane.

Guverinoma yacu ni nziza cyane , aho usanga yarafashije abaturage kubona ahantu ho kubaka hanini cyane. Bakubakaho kiliziya , kiliziya igahuriramo abantu batandukanye, abapadiri, abakiririsimatike bakajya basengeramo, ndetse bamwe bakanakomerezwamo. Ibyo bigafasha igihugu kugira abantu bakijijwe kandi bateye imbere.

Leta iba nziza cyane, aho usanga yarafashe nk'uduce runaka, ikubaka ibitaro ikubakaho ibigo by'amashuri, ikubakaho ibiro ahantu hatandukanye, yarangiza igafata nk'abacunga umutekano ikahaba n'akazi ko gucunga umutekano, yarangiza ikajya ikora ibikorwa bitandukanye by'igihugu muri rusange gutera imbere n'abagituye bagatera imbere kubwo gukorera amafaranga.

Leta iba nziza cyane, aho usanga yarubatse nk'imihanda ikubaka ahantu hatandukanye nk'amazu, abantu bahaganye ugasanga bari kunyura nko ku muhanda. Hari abajya ku kagari, bajya nko ku murenge, cyangwase ku karere, cyangwa se ku ishuri nko kwiga ugasanga banyuze nko mu muhanda mwiza kandi ugasanga nk'aho hantu bagiye babakemuriye serivisi ,babahaye serivisi nziza.

Kubaka insengero, imihanda bikomeje kuzamura ubwiza bw'igihugu cyacu n'iyo umuntu yabireba yabona bisa neza, ndetse bagashyiraho n'amashanyarazi yo kujya abantu bacana, ibyo bigatuma ari abanyamasengesho cyangwa se abapadiri cyangwa se abapasiteri basenga mu rusengero ruri kubonesha, ibyo bigafasha na leta kwinjiza amafaranga avuye mu muriro w'amashanyarazi.

Leta iba nziza cyane aho usanga yarubatse ibiro by'intara bitandukanye mu duce dutandukanye, waba ufite nk'ibibazo ukajya nko kubaza, kandi nk'abayobozi b'intara nabo bakaba bari gukorera ahantu heza cyane, ibyo bikabafasha gukemura ibibazo nta mbogamizi.

Ubuyobozi bwiza cyane bwagira buremerera abakirisutu, kubaka insengero zo gusengeramo; bakubaka insengero zo guhuriramo abakirisitu muri rusange bakubaka ubucuti, bakabana mu mahoro, bagafashanya, bagafasha abakene ndetse bakazamura, ni byiza rero ko dukomeza gutera imbere mu by' iyobokamana.

Iterambere riba ryiza cyane ,aho usanga nka leta yarafashe ahantu runaka ikahubaka inyubako igateraho ibiti byo kuzana ka ogisijene. Aho igashyiraho n'igipangu ku buryo abantu baba bakenera serivisi ,urugero nko ku murenge cyangwa ku karere ugasanga babonye serivisi nziza kubera gukorera ahantu heza kandi hatekanye.

leta iba nziza cyane aho usanga yarubatse amazu atandukanye igashyiramo nk'ibiro by'utugari, iby'umurenge ndetse n'iby'akarere. Ugasanga n'abaturage muri ayo mazu barayafashe, bashyizemo ibikorwaremezo, ugasanga bashyizemo nk'insengero abantu bakajya bahahurira bakahasengera, ibyo bigafasha igihugu mu kuzamura iterambere ry'abaturage.

Ni byiza cyane aho usanga leta yarafashije abaturage kubona ahantu ho kubaka insengero, ho kubaka kiliziya kugira ngo abantu bajye bahuriramo basenga ,bavugira hamwe ijambo ry'Imana, ndetse banaganira kugira ngo bakomeze kunga ubumwe, igihugu cyacu gikomeze gutera imbere gifite n'umutekano.

Leta iba nziza cyane ,aho usangaga yarafashe ahantu hatandukanye, mu duce dutandukanye, ikubakamo amazu atandukanye ,nk'ama etaje, igashyiramo ibiro by'akagari ,umurenge cyangwa ugasanga ni akarere, abaturage bakabazi ngo hariya ni ku karere turajya kubaza ibibazo byacu ,ugasanga abaturage nabo bagize umutekano ,ugasanga abayobozi nabo babonye aho gukorera, bityo serivisi zigakomeza zigatangwa neza.

Ubuyobozi buba bwiza cyane, aho bugenda bukubaka amashuri ahantu hatandukanye, bukubaka nk'amayetaje bwarangiza abanyeshuri batandukanye ari abakobwa ari abahungu, bose bose bakajya kwiga bakiga amasomo atandukanye buri wese akiga ibyo ashaka, ibyo bigafasha igihugu kurinda abanyeshuri kuba inzererezi, ndetse n'ababyeyi bakabona ko abanyeshuri babo bari kwiga ibyo bikabafasha gutera imbere cyane.

Guverinoma iba nziza cyane, aho usanga yarubatse amazu atandukanye nk'ama-etage, ugasanga bashyizemo ibintu bitandukanye nk'ubucuruzi cyangwa se nk'ibiro by'utugari. Ugasanga hari umuturage uri guteza imbere, kuko wenda yacururije muri ayo mazu, ugasanga n'igihugu kiri kwinjiza amafaranga.

Ubuyobozi ni bwiza cyane aho usanga bwarafashije abaturage batandukanye kubona imirima, imirima bakayubakamo insengero cyangwa se kiliziya. izo kiliziya zikajya zifasha abaturage guteranira hamwe no kumva ijambo ry'Imana. Barangiza ku mpande bakajya bashyiraho ibiti, ibiti byo kubaha akayaga, ibyo bigatuma abantu baje gusengera muri urwo rusengero babona akuka ko guhumeka kandi bakishima.

Leta iba nziza cyane aho usangaga yarubatse ahantu hatandukanye, nk'amasale yo kwakiramo inama zitandukanye. Ibyo bigafasha abayobozi kutwigira imishinga tuzakora, ndetse no gufasha abafite ibibazo kubikemura. Ibyo bigafasha ari abaturarwanda, ari n'abayobozi, ari Igihugu cyacu gutera imbere kuko gifite abantu bari kugitekerereza kandi bashoboye.

Iterambere ni ryiza cyane kuko rikomeje kwiyongera, aho usangaga guverinoma cyangwa se leta yarubatse amazu, ikubaka amasoko, ikubaka n'utugari ndetse n'imirenge yo kujya ijyamo abantu baravugiramo ibibazo byabo, ndetse bigafasha abayobozi kumenya abafite ibibazoo baka bikemura, ndetse bikanabafasha kugira ngo bamenye ko igihugu cyaba kiri gutera imbere kuko harimo umutekano usesuye.

Guverinoma ni nziza cyane aho usanga yarubatse nk'imihanda nk'ahantu hatandukanye n'utugari cyangwa se imirenge. Yarangiza igashyiraho na parikingi ku buryo abantu bagiye ku murenge nko gukemuza ibibazo byabo bafite nk'imodoka babona aho kuziparika zikaba ziri mu mutekano usesuye.

Iterambere rikomeje kwiyongera cyane, aho usanga guverinoma y'u Rwanda yarashyizeho inyubako zitandukanye, nk'ibiro byo gukoreramo nk'ibiro by'uturere, n'imirenge, ndetse n'amavuriro, ugasanga bubatse n'insengero zitandukanye zujuje ibyangombwa, aho usanga buri umwe wese ari gushyiraho umusanzu we, bityo bigatuma igihugu cyacu gikomeza gutera imbere.

guverinoma ni nziza cyane aho yagiye yubaka impihanda itandukanye ya kaburimbo ugasanga nk'imodoka zirimo gutwara abantu ndetse hari n'izitwara ibintu ugasanga nka mabisi ari kujyana abanyeshuri ku ishuri mu bintu mu nzira zoroshye ndetse n'abantu bagiye nk'ahantu ugasanga bari kuhagera mu buryo bworoshye bigafasha abaguze imodoka gutera imbere ndetse n'igihugu kigatera imbere binyuze muburyo bwo gutanga imisoro

Kiliziya ni nziza cyane, aho usanga guverinoma ya yemereye abaturage kubaka amakiriliziya, yo kujya bahuriramo, basenga, baganira, basabana, ibyo bikabafasha gutera imbere hatabayeho amakimbirane n'urwango mu batuye igihugu cyacu.

Uburenganzira bwa muntu buba bwiza cyane. Aho usanga leta yarahaye abantu bose ijambo cyangwa se ikabaha amahirwe angana. Ugasanga ari abagore ari bagabo bose bose bafite kuba abayobozi. Ugasanga bose bitabiye nk'ishuri, ibyo bigafasha igihugu cyacu gutera imbere, kubera buri wese aba afite inshingano zo gukora, kandi batarobanura.

Iyo inteko yateranye buri wese aza avuga, iteranije abaturage ari abana, ari abagabo, ari abasore. ari n'abagore, bose bose bagateranira hamwe buri wese akajya avuga igitekerezo cye, ndetse bavuga n'uburenganzira bw'umwana kuko buba bukenewe.

Uburenganzira bwa muntu bukomeje gutezwa imbere cyane, usanga bakoze nk'inama zitandukanye, abaturage bakavuga ijambo ba Meya, abadaso, na bo bakiga ku bibazo bya muntu, kugira ngo umuntu akomeze guterare imbere, kandi akore nk'ibintu ashaka mu gihugu, byamuteza imbere.

Leta iba nziza cyane kuko usanga yarubatse nk'imihanda, ikubaka n'ahantu hatandukanye ho guparika ibinyabiziga, ugasanga nk'imodoka ziturutse hanze cyangwa se ziturutse mu gihugu, ugasanga zifite nk'aho guhagarara. Ibyo bigatanga umutekano ndetse bikaba byarinda impanuka zo mu muhanda.

Iterambere rikomeje kwiyongera cyane, aho umuntu asigaye ajya gukora urugendo ntagenda n'amaguru, mbere twagendaga n'amaguru. Ariko muri ibi bihe hari imodoka nini, haje nka za bisi, na za ritiko, na za virunga, ugatega ukajya iyo ugiye ukagerera ku kazi ku gihe.

Ikigo cyacu gisigaye gifasha abantu, aho usanga barubatse amagare yo guparikamo, ahantu ho guparika imodoka, noguparika amagare yarangiza igashimo nk'intebe zo kwicaraho uburyo umuntu ategereza ahantu arategera, ndetse bakubaka n'amasitade yo kujya bicara bari kureba umupira, ibyo bigafasha abantu bakoramo kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Imihanda ya kaburimbo ikomeje kwiyongera cyane, aho usanga abanyeshuri baba bafite aho bategera imodoka za busi zibajyana ku ishuri ndetse n'abashoferi bazitwaye bakabona amafaranga yo kwifashisha mu miryango yabo, n'amafaranga yo gutangira abanyeshuri ndetse bakabona n'ayo gukoresha ibindi bikorwaremezo.

Igihe wakoraga urugendo waba ujyiye ahantu ukagendesha amaguru ukagenda uri gusitara uri kugwa ukagera niyo ugiye wabize ibyuya wanarushye, ariko kubwo gutera imbere, kubw'iterambere ryaje, umuntu asigaye aratega amamoto, amagare, abanyonzi baba bahari umuntu bakaba rero naho gufatira abagenzi akaba atabura ikinkinyabiziga cyo kugenda bityo akazi ukorako gagatera imbere cyane.

Leta ni nziza cyane aho yagiye ikubaka imihanda, igashyiramo nk'imodoka zo gutwara abantu. Ugasanga bageze aho bagiye nta kibazo ndetse n'abashoferi bakabona amafaranga yo gutunga imiryango yabo, no kwiteza imbere. Ndetse bagakomeza kubona amafaranga yo kugura n'izindi modoka, kugira ngo bakomeze batware abantu mu buryo bwihuse kandi bwa rusange.

N'amagare asigaye aradufasha cyane ,mu gukora ingendo rusange, waba ugiye ahantu ,ukaba wafata igare rikakugezayo utabanje kugenda n'amaguru ,waba ugiye gutwara imizigo ugafata igare ukishyura ,aho waba ugiye hose mu buryo akazi ,cyangwa se igikorwa runaka ugikorera ku gihe, nta mbogamizi ibayemo y'urugendo.

Leta ni nziza cyane, aho usangaga yarubatse ahantu hatandukanye. Ikubabaka amasoko, ikubaka n'ahanu ho guparika nk'amamodoka. Kuburyo nk'umuntu yaba agiye gutega, akajya nko gutegera muri gare runaka akabona imodoka bitamugoye. Ndetse n'abashoferi bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Igihugu cyacu kiba cyiza cyane, aho usanga agace barubatse imihanda itandukanye, ari abanyonzi b'abamotari, ari ab'imodoka, bakajya bakora urugendo rutandukanye, ufite nk'umugenzi afite aho yaba agiye akamushyira kuri moto, ukagenda nta nkomyi kuko uzi ko umuhanda ari mwiza cyane, yarangiza noneho ikubaka n'amazu igashyiramo ibikorwa bitandukanye, abantu bakajya babona amafaranga yo kwifashisha.

Igihugu cyacu ni cyiza cyane. Cyubatse imihanda itandukanye ya kaburimbo, y'amapave, noneho abantu bakishyira hamwe bakagura nk'imodoka zitandukanye zo gutwara abantu. Abantu bagiye kurema amasoko, hari n'abanyeshuri bagiye ku ishuri. Ibyo bigafasha abantu kugenda byoroshye, kandi n'abaguze za modoka bagateza imbere imiryango yabo.

Iterambere riba ryiza cyane aho usanga nka leta ifasha ahantu hatandukanye mu duce runaka ikahubaka ahantu ho gutegera imodoka hitwa muri gare, uburyo imodoka ziza ziva mu Ntara zikaza zigaparika abantu bagiye ku rugendo bakaza gutega. Ibyo bigafasha abantu m'urugendo kubona imodoka ku buryo bworoshye, ndetse zigafasha n'abashoferi kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga nka Leta yubatse imihanda itandukanye, kandi ikubaka imihanda myiza, ugasanga nk'umuntu yaguze nk'ingorofani, cyangwa se moto, cyangwa ikindi kinyabiziga yapakiyemo ibicuruzwa bye akabona ukuntu abitwara neza mu muhanda, ndetse n'ababyikoreye ku mutwe ugasanga abijyana mu muhanda mwiza , bikabafasha gukora urugendo rworoshye kandi rwihuse nta mbogamizi bahuye nazo mu muhanda.

Iterambere riri kwihuta cyane, aho usanga umuntu yarihangiye imirimo akagura moto, yo kujya aratwaraho abantu n'ibintu, ndetse abamukeneye bose bakajya bamuhamagara, kugira ngo abageze ku kazi ku buryo bwihuse cyane.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, aho usanga abantu baraguze nk'imodoka zitandukanye, cyangwa bakagura n'ibipiringisi bitandukanye ,nk'abagore ugasanga bashyizeho imifuka itandukanye, cyane irimo nk'inkweto zo gucuruza, imyenda yo gucuruza. Buriya imihanda aba ari myiza bakajya basunika bagakorera amafaranga yo kwiteza imbere, n'ayo kubaka imiryango yabo no gukomeza bwa bucuruzi.

Iterambere riba ryiza cyane ,aho usanga nka leta yarafashe ahantu hatandukanye, ikubaka imihanda, ikubaka imihanda ya kaburimbo igashyiramo na sima, ugasanga nk'aho hantu bahagize ahantu ho gutegera imodoka, barangiza bakahashyira n'amagaze yo kuvoma ,ugasanga nk'abantu bagiye gutega imodoka bakayibona ku buryo bwihuse, kandi n'abagenda n'amaguru ugasanga bari kugenda ahantu hatuje, ibyo bigafasha abantu kubona serivisi zitandukanye ,kandi mu buryo bwiza.

Leta iba nziza cyane aho usanga yarubatse imihanda mu duce dutandukanye, abantu bakagura moto zo kwiteza imbere, aho bafata moto bakazishyira mu muhanda bakajya batwara abantu, ibyo bigafasha ba bantu gukora urugendo rworoshye kubera ko bari kunyura mu mihanda myiza, bigafasha na ba bantu bari gutwara moto kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Leta iba nziza cyane aho yubatse nk'imihanda itandukanye, ya kaburimbo, igashyiramo n'ibimodoka binini bya bisi bitwara abagenzi, ibyo bigafasha abagenzi kugera aho bagiye bafite umutekano, ndetse n'abashoferi ugasanga biteje imbere, bigafasha abaturage gutera imbere muri rusange, ndetse na leta igatera imbere, kubw'abaturage bafite imihanda myiza cyane.

Iterambere rikomeje kwihuta cyane, aho usanga nka Leta yarafashe ahantu h'ububutaka bunini cyane, igashyiramo gare yo guparikamo imodoka, ku buryo abagenzi cyangwa se umuntu ukeneye kujya ahantu hatandukanye, ajya nko muri gare akabona nk'imodoka aratega akagenda. Ibyo bikamufasha kutajarajara no kutirirwa mu nzira, kubera ko yabonye aho ategera imodoka igiye aho agiye.

Leta iba nziza cyane, aho usanga yarakoze imihanda itandukanye ya kaburimbo, igakora n'indi mihanda myiza cyane, ugasanga abantu bazanye nk'ibimodoka binini cyane, bikajya byikorera ibitaka n'amazi yo gukoresha mu gukora indi mihanda, ibi bigafasha abafite imodoka kugenda neza, ndetse n'abari gukora umuhanda bagakora bishimye, bakabonamo n'amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Leta iba nziza nziza cyane aho usanga yarubatse imihanda ya kaburimbo imihanda itandukanye, ugasanga nk'umuntu agiye kwiga nko mu ishuri ,akiga nko gutwara moto ,akiga nko gutwara imodoka ,ugasanga bari gutwara abagenzi bagiye nk'ahantu ,bamara kubatwara bakabona amafaranga ,abaturage bagakomeza bakiteza imbere.

Ubwikorezi busigaye bwarateye imbere cyane, aho mu gihe cyo hambere umuntu yabaga ashaka nko gutwara, ibintu biremereye akikorera akagenda aratura, aratura ariko hasigaye haza amakamyo manini cyane, ashoboye kwikorera nkayo n'amakamyo atwara na peteroli , bityo ntize kugirira umuntu nabi kandi aya makamyo, akaba atwaramo n'abantu kugira ngo babone amafaranga.

Kwihangira imirimo biba byiza cyane, aho usangaga nk'abantu batandukanye barihangiye imirimo bakuba ahantu hatandukanye nk'amazu, bakuba nk'ahantu ho kujya bashyiroramo gaze mu modoka ugasanga nk'imodoka zibuze nka esanse usanga bazi nko mu modoka ari abaguze imodoka bakabona aho bajya barashyiriramo gaze. Bituma imodoka zafunzwe zitwara abagenzi nta bandi bubatse bahagaze, ugasanga nabo babonye amafaranga mu buryo buboroheye.

Ubwikorerozi bw'ibintu n'abantu biba byiza cyane, aho usangaga Leta yarubatse imihanda itandukanye, ikahakora imihanda ya kaburimbo, igashyiramo nk'amapave. Ugasanga abamotari batwaye nk'abantu bari kubona n'amafaranga bakiteza imbere, ndetse bagatanga n'imisoro yo guteza imbere igihugu cyacu.

Iterambere rikomeje kwiyongera cyane，aho muntu yategaga imodoka， agatanga amafaranga mu ntoki， bakaba bayamwiba，cyangwa se ku bw'indwara zateye， ugasanga bari kwanduramo，ariko umuntu afite ikarita yo kujya akozaho ku modoka，amafaranga ye akavaho， ndetse ubu busambo， bukaba bwaracitse.

Iterambere rikomeje kwiyongera cyane mu gihugu cyacu, aho usanga umuturage nko kwihugura cyangwa se kwiga gubitwara ibinyabiziga, nko gutwara amakamyo ,imodoka, amafuso yarangiza akajya arajya gupakira imyaka yabaturage, aho bayihinze, aho bayishize yarangiza ayijyana ku isoko uyineye wese akajya arajya guhaha ibyo akeneye, ndetse n'umutwaza w'imodoka akabona n'amafaranga yo gutunga umuryango we.

Leta yacu ni nziza cyane, aho usanga yarubatse imihanda itandukanye. Abahungu , abakobwa, abagabo n'abagore bakajya gukoramo siporo yo kunanura amaguru. Ndetse bakazana n'umukino w'amagare mu Rwanda bakajya barakora amarushanwa. Ari abayakoze banyonze igare kandi bakabona amafaranga ndetse bakamenyekanisha n'igihugu cyacu ku ruhando mpuzamahanga rwo kunyonga igare.

Kubaka ibibuga bitandukanye ni byiza cyane, aho usanga abakobwa, abahungu, abagore n'abagabo bari gukorera ingororangingo, bagakora siporo itandukanye, ndetse ikaba yabaha n'amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bitandukanye, bagateza imbere imiryango ya bo n'igihugu muri rusange.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga nk'abantu biteza imbere kubera gukora siporo, cyane cyane nk'iyo koga mu mazi, ugasanga nk'abantu bari koga bari kubona amafaranga yo kwiteza imbere, ndetse n'igihugu kubera nk'amarushanwa, kikamenyekana mu ruhando mpuzamahanga, ibyo bigafasha umuntu guhora akora siporo kandi yiteza imbere.

Siporo ziba nziza cyane, aho usanga abazikina ari abagabo n'abagore ndetse n'abasifuzi. ugasanga bari gukina nka basiketiboro, zikabafasha kunanura umubiri no kwinjiza amafaranga, ugasanga nk'igihugu cyacu kimenyekanye ku ruhando mpuzamahanga.

Handibilo iba nziza cyane, aho usanga abantu batandukanye ,abahungu barateguye nk'imikino yo ku mashuri ,ugasanga abantu bateguye nk'amarushanwa . Umukino wa handibolo ugasanga bari kuwukina n'abari kureba urashimishije cyan,e ndetse n'abari kuwukina ugasanga babonye amafaranga yo kwiteza imbere, no gukomeza kugura imipira yo kwifashisha mu mukino wa handibolo.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga Leta na guverinoma barubatse imihanda itandukanye, barangiza bagashyiramo n'imikino itandukanye nk'umukino w'amagare, maze bagakora amarushanwa ari abanyonzi b'amagare ari n'abantu muri rusange, bakishima ari na wa wundi wanyonze igare abona amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Leta ni nziza cyane, aho usanga yarubatse ibikorwa remezo, harimo nk'ibibuga ibyo bifasha abanyeshuri n'abagabo n'abandi bose, kubona aho kwidagadurira ndetse na bya bibuga n'abakinnyi, bikaba byabafasha kubona amafaranga yo kwiteza imbere.

Imikino ngororamubiri ni myiza cyane. Iyo umuntu yakoze siporo agira umubiri mwiza, akananuka akishima akabonana na bagenzi adaheruka, akaganira bagahuza ibitekerezo ndetse hari na bamwe baba bakina nk'abakinnyi, abatoza, abafana bakaboneramo amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bya buri munsi no gutunga imiryango yacu.

Imyidagaduro iba myiza cyane, aho usanga barashyizeho amakipe bakubaka n'ibibuga bitandukanye, bagashyira amakipe y'abakobwa n'abahungu, none bakabagurira n'imipira ya baro, bakajya barakina, bakidagadura, bakananura imbavu, bakishima, barangiza, bakabonamo n'amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Igihugu cyacu gikomeje guteza imbere abakobwa. Ndetse n'abahungu, n'abagore, n'abagabo. Kgenda cyubaka amasitade atandukanye, yo gukiniramo imipira itandukanye. Kujya koga mu biyaga bitandukanye. Hakaba amarushanwa atandukanye, hari umukobwa n'umuhungu, akabonamo amafaranga yo gutungisha imiryango ye, yo kugura imyambaro. Ndetse n'igihugu cyacu, kikamenyekana ku ruhando mpuzamahanga.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga leta yarubatse ibibuga bitandukanye byo gukiniramo, byo kwidagaduramo. Ugasanga ari abakobwa ari n'abahungu n'abagabo, babonye aho kwidagadurira. Ugasanga nabari gukina babonyemo amafaranga yo guteza imbere imiryango yabo.

Siporo ni nziza cyane, aho abahungu n'abakobwa basigaye bakora siporo bakiteza imbere, bakamenyana, bakamenya inshuti, ndetse siporo ikabaha n'amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bya buri munsi. Bakagura amazu, bakagura imyenda, bagasabana mu buzima busanzwe. Siporo ituma abantu biteza imbere, bakaba bahinduka abakire cyane, ku bwa siporo.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga abagore n'abagabo ndetse n'abasore n'abana, bari gukora siporo nk'izo mu mazi, nko koga ugasanga bajya mu marushanwa babonye amafaranga yo kubateza imbere. Ndetse bagashyira n'Igihugu ku ruhando mpuzamahanga, kubera umukino wo koga. Ndetse bakinjiza n'amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

siporo iba nziza cyane, aho usanga Leta yarubatse ibibuga bitandukanye, barangiza bagashinga amakipe atandukanye nka za Reyo siporo, za Bugesera, za Musanze. Ari abazikinamo bagakora siporo bakananura umubiri, ndetse bakabona n'amafaranga yo gutunga imiryango yabo, ndetse n'igihugu kigatera imbere, kubwo kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga Leta yarubatse imihanda myiza ya kaburimbo, ikajya ifasha nk'abana, ikabashyira nko mu kademi ko kunyonga igare, ikabaha ibikoresho by'amagare. Abana bagakora amasiporo atandukanye, ndetse na rya gare bari kunyonga, bakaryifashisha no kubona amafaranga yo gukoresha mu gutunga imiryango yabo.

Siporo iba nziza cyane, aho usangaga Leta yarubatse ibibuga bitandukanye byo gukina mokaketi ugasanga ari abagabo, ari n'abana, abakobwa n'abagore, bari gukina uwo mukino bakinjiza amafaranga yo gutunga imiryango yabo, ndetse n'igihugu ku ruhando mpuzamahanga kikajya gikina n'andi makipe yo hanze abandi bakazana amafaranga , amadovize, ayo mafaranga bakajya bayakoresha mu bintu bitandukanye n'igihugu muri rusange.

Vore ni nziza cyane aho usanga abakobwa, abasore, abagabo n'abana batoya bajyaga kureba umupira wa vore aho ubona abantu bari gutera ibiro bagashiramo n'abapaseri. Bakora umukino uryohoshye cyane uryohereza ijisho nibyo bigatuma abawukina ari n'abatoza babatoza babona amafaranga yogukoresha mu miryango yabo ndetse n'igihugu kigatera imbere kikanamenyekana.

Siporo iba nziza cyane aho usanga abantu batandukanye nk'abahungu n'abakobwa, bari gukora siporo nk'iyo kunyonga amagare, ugasanga bagiye mu marushanwa babonyemo amafaranga yo gukoresha imirimo itandukanye, ugasanga na ba bantu baje kureba umukino w'amagare bakishima bakanezererwa, ibyo bigatuma abateguye amarushanwa babonye amafaranga, ndetse n'abari gukora wa mukino w'amagare, ugasanga babonye amafaranga yo kwiteza imbere.

Leta iba nziza cyane, aho usanga yarubatse ibibuga bitandukanye, nk'ibya futuboro, ibya basiketiboro, ibya voreboro, ugasanga nk'abantu bagiye nko gufana batanze nk'amafaranga yo kwinjiriraho, aho ugasanga leta iri guterimbere, kubw'amafaranga y'abaturage, ndetse n'abaturage bakagira ibyishimo, bakaba batekanye kandi bishimye cyane.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga igihugu cy’u Rwanda cyarubatse ibibuga bitandukanye n'ahantu hatandukanye nk'amarerero. Aho, abakobwa n’abahungu ndetse n’abagabo n’abagore bafata imipira bakajya gukina, barangiza gukina bakananura imibiri yabo. Bakabona amafaranga yo guteza imbere imiryango yabo, ndetse n’igihugu kikamenyekana ku ruhando mpuzamahanga.

Leta ni nziza cyane, aho usanga yarubatse ibibuga bitandukanye, ibibuga byo gukiniramo umupira w'amaguru, wa volebolo, basiketibolo ,ugasanga abantu baje muri sitade kureba umukino wabaye, ari abubatse icyo gikorwa bakajya babona amafaranga ,ari abaje kureba, bakabonamo ibyo bigafasha buri wese kwidagadura ndetse no gushimisha umubiri we, no kubaka igihugu kubera ko baba bafite n'umutekano.

Siporo ni nziza cyane. Aho usangaga abana baragiye mu ishuri. Hari abakobwa, abahungu bakajya mu ishuri bakiga kubyina, bakiga n'umuco gakondo, bakajya banabyina imbyino zitandukanye. Ari abaje kubareba bakishima, ndetse bakabaha amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere, n'ayo kugura ibikoresho bakoresha muri siporo.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga iteza imbere abantu batandukanye harimo abakobwa n'abahungu, ugasanga bari gukina imikino ya tenisi cyangwa se handiboro, ikabinjiriza amafaranga ndetse ikabafasha no kunanura imibiri yabo ku bwo gukora siporo, ikanamenyekanisha igihugu ku bwo gutera imbere mu mikino ya siporo.

Siporo iba nziza cyane, aho usanga abakobwa n'abahungu bari kuyikora, usanga bananuye umubiri bafite ubuzima bwiza, n'abaje kuyireba bakishima cyane, ugasanga bagenda mu marushanwa mpuzamahanga ugasanga n'igihugu giteye imbere kuko cyagiye kurushanwa, ndetse n'abandi bari gukora siporo bakabonamo amafaranga yo kugura ibintu bitandukanye nk'imyenda bakiteza imbere.

Siporo iba nziza cyane aho usanga nk'abakinnyi , abasifuzi bari gusifura imikino itandukanye. Ari abakobwa n'abahungu ugasanga bose bafite amahirwe angana yo kwitabira imikino ngororamubiri, ndetse ugasanga bari kubonamo n'amafaranga yo kwifashisha bari gukora bari kuguramo imyenda n'inkweto, ugasanga babayeho neza.

Siporo ni nziza cyane aho wasangaga yarakorwaga n'abahungu gusa, ugasanga abakobwa ntibiteje imbere. Ariko ubu ngubu ku bw'imikino itandukanye yagiye ishyirwaho, abakobwa basigaye nabo bakina umukino wa Kiriketi. Ugasanga ubateje imbere, bateje imiryango yabo imbere, baguzemo imyenda, inkweto ndetse bakambara neza, kuko bari gukora siporo bakagira n'ubuzima bwiza.

Siporo ni nziza cyane umuntu ananura umubiri amagufa, amaraso agatembera neza .Nk'umukino wa basikete abantu barawukunda cyane utanga ibyishimo ugashimisha abantu ari abawukina, ari n'abaje kuwureba ndetse bagahuza n'imiryango n'abavandimwe, ikindi bakabonamo n'amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Siporo iba nziza cyane aho usanga igihugu cyacu na guverinoma, barubatse ibibuga bitandukanye nk'ibyo gukiniramo vole, ugasanga ari abakobwa ari abahungu ari abagabo ari n'abagore bari gukina vole, bari kunanura imbavu bakagenda basimbuka bagatera ibiro, ugasanga ibyo bibafasha guteza imbere imiryango yabo, kubera ko siporo bayikuramo amafaranga ndetse n'igihugu kikamenyekana.

kwahangira imirimo bisigaye bwiyongera cyane nko ku abanyarwanda cyangwa abaturage muri rusange aho usanga umuntu yarihangiye imirimo, akajya gukora buzinesi yo gukora amapave yo gukoresha mu muhanda cyangwa se mu nzira yo kunyuramo, kuburyo umuntu ayinyuramo yishimye nta micucu, ntavumbi rimuriho, kandi akabona amafaranga yo gutunga umuryango we.

iIterambere ni ryiza cyane, aho ubu uri gusanga barubatse nk'imihanda itandukanye yo gufasha abantu kugenda nta nkomyi. Aho wasangaga mbere imihanda itubatse neza, ugasanga harimo ibyondo bikajya bitarukira ku bantu. Ariko ubu kubera kubaka imihanda iteye imbere, abantu basigaye bagenda nta n'ibyondo bibagiyeho, bagasanga bageze bagiye basa neza.

Leta iba nziza cyane, aho yagiye yubaka imihanda itandukanye ya kaburimbo, ndetse igashyiraho n'imihanda y'ubusamo ku buryo nk'abantu baba bari kugenda n'amaguru, bagenda nta kibazo, kubera imihanda myiza, waba ufite nk'akayira ka hafi ukakanyuramo ugahita ugera aho ugiye byihuse.